Umwana muto cyane uri mu kigero cy'abana b'incuke: ari kwisanzura, arikwiga gusiga amabara, gusiga amarangi; bimwe mu bintu byiza bibafasha kugira ubwenge no gutekereza.

Ibishushanyo bigamije gufasha abana biga mu mashuri abanza, igishushanyo, inkoko, ifi, urukwavu, injangwe cyangwa ipusi, ibi byose bari kubibereka kugira ngo babimenye.

Abana bari mu ishuri, ishuri risa neza, risukuye abana bo mu mashuri yisumbuye bari kwiga neza, bakurikiye mwarimu, ibintu bimeze neza.